Umupolisi wambaye umwenda w'akazi w'umukara, wambaye n'umwenda urengaho wo guhamya yuko ari umupolisi wemerewe guhagarika cyangwa kugenzura ibinyabiziga biri mu muhanda. Ari gukoresha igikoresho gishinzwe kugenzura uruhushya ruhoraho rwo gutwara ibinyabiziga.

Abantu bateraniye hamwe barimo abagabo n'abagore, bari kwamamaza ishyaka rya FPR, bafite amadarapo arimo amabara y'umutuku umweru n'ubururu yanditsemo ijambo FPR.